Abantu baje ku bitaro harimo abamama, abafite abana n'abatabafite aho baje kumva inama ku bijyanye n'ubuzima bagirwa n'abaganga.

Abantu batandukanye, bagiye ku mugezi kuvoma amazi, aho umugezi usaba gusunika kugira ngo amazi aze, hakaba hariho umu papa urimo abikora.

Abantu bari muri sare harimo aba papa ubona ko biyubashye bicaye ku ntebe nziza, kandi bose bafite amazi imbere yabo aho bari gukurikirana inama kubi bijyanye n'ubuzima.

Abanyabuzima benshi batandukanye aho bitabiriye inama ijyanye n'ubuzima, bombi bose bambaye amataburiya yabo kandi bafite n'amakayi ubona ko babyishimiye.

Umumama wagiye kuvoma ku mugezi wa robine aho yazanye ijerekani ariyo yaje kuvomesha akaba arimo kuvoma kandi yishimye.

Abo bakozi bo mu nzego z'ubuzima batandukanye harimo aba papa naba mama, aho bari kwifotoza bafite ikirangantego cy'urwego rw'ubuzima ubona ko bishimye cyane.

Abaganga bakora ku kigo nderabuzima aho bari hanzeba bakabarimo bifotoza, umwe muri bo bambaye amataburiya yabo, ubona ko bishimye cyane.

Umwana uri kunywa amazi ku mugezi wa robine akoresheje intoki ze zombi ubona ko yari ayakeneye akaba ari kuyanywa abyishimiye.

Abayobozi bagiye batandukanye, aho bateraniye mu nama, bari kwiga ku kibazo cy'ubuzima kandi bose bafite akantu bari gusomaho.

Umumama ajyanye umwana we kwa muganga kugira ngo yitabweho ahabwe imiti igiye itandukanye bityo amere neza, muganga akaba arimo kumwitaho.

Umwana uri kwa muganga ubona ko arembye cyane, abaganga babiri bakaba bari kumukurikirana ahari ku gitanda ndetse na mama we akaba amwicaye imbere.

Abantu batandukanye ari benshi cyane, harimo abana bakuru abapapa, abamama, aba basaza aho bateraniye ku murenge kugira ngo bumve inama bagirwa n'abayobozi babo.

Umwana uri gukaraba ku mugezi wa robine akoresheje amazi, akaba yishimye cyane kandi arimo aseka ubona ko bimunejeje.

Imiti itandukanye hamwe n'ibyuma bigiye bitandukanye byifashishwa kwa muganga, kugira ngo umurwayi yitabweho neza kandi binoze.

Abakozi batandukanye bo mu nzego z'ubuzima harimo abapapa, abamama, abasaza, abakecuru abazungu n'abirabura aho bari kwifotoza ifoto bari kumwe bose.

Umumama uri gukaraba kuri kandagira ukarabe, iriho akajerekani k'amacupa arindwi, iyo kandagira ukararabe akaba ari iya kinyarwanda.

Abamama benshi, aho baje ku mugezi kuvoma amazi yo kujya gukoresha imirimo itandukanye mu rugo, nko gufura, guteka, gukaraba ndetse n'iyindi.

Abantu benshi harimo abana, abasaza n'abakecuru, abapapa n'abamama, aho bakoraniye ikigo nderabuzima kugira ngo bumve inama ku bijyanye n'ubuzima.

Ababyeyi bazanye abana babo kwa muganga kugira ngo bitabweho babe baterwa inshinge bahabwe n'utunini, tubafasha kutarwaragurika ndetse no gukura neza.

Umusaza wagiye kwa muganga aho ari kwitabwaho n'abaforomokazi, bakaba bamwanditseho ikintu mu kuboko kugira ngo bapime umuvuduko w'amaraso ye.

Umubyeyi aho yazanye umwana we kwamuganga kugira ngo amupimishe arebe ibiro afite, bityo abashe kumenya niba ari gukura neza cyangwa nabi.

Muganga aho ari gutera urushinge umumama wambaye agapfukamunwa ndetse n'ingofero ndetse uyu mama akaba afite ubwoba bwinshi cyane kuko yanasinziriye ahumirije kugira ngo ahumuke barangije kurumutera.

Abana babiri barimo barakaraba bakoresheje igikombe. Umwe afatiye undi, undi arakaraba ubona ko bombi bishimye kandi banezerewe cyane.

Umupapa urimo aseka ubona ko nta muntu bari kumwe ari gusekana aho ubona ko afite ikibazo cyo mu mutwe akaba aricyo cyamuteye kwisekesha.

Umusore uri kurira, amarira akaba yashotse ku maso, ubona ko arakaye cyane kuko afite n'ijisho ryahindutse umutuku.

Abantu babiri bari kumwe ubona ko umwe ari ukuganiriza undi ku kibazo kijyanye n'ubuzima ndetse n'indwara zo mu bwonko.

Abaganga batandukanye harimo aba papa n'aba mama aho bari kwifotoza imbere y'ibitaro, bafite igipapuro bari kwerekana bisa nkaho hari ikintu bagezeho bishimiye.

Ababyeyi bajyanye abana babo kwa muganga kugira ngo bitabweho babe bahabwa ibinini, hatewe inshinge ndetse n'ubundi bufasha bwatuma abana babo bakura neza.

Umuntu wagiye kwa muganga abaganga bakaba bari kumuvura amenyo yifashishije utwuma twabugenewe, na we akaba yasabye bari kumugenzura.

Umwana wagiye kwa muganga akaba yasamye, muganga arimo areba amenyo ye kugirango arebe nimba harimo irirwaye arivure cyangwa arikure.

Umu papa wambaye igikanzu, aho ari kwireba mu ndorerwamo, ari koza amenyo ye, kugirango ayarinde umwanda ndetse n'uburwayi.

Umuntu wagiye kwa muganga kwikuza amenyo, akaba aryamye abaganga babiri bakaba bari kumukurikirana bakoresheje utwuma twabugenewe.

Umuganga wambaye amadarubindi ndetse n'itaburiya, aho ari kureba ku mashusho ubwoko bw'amenyo ndetse n'indwara zigenda zifata amenyo, kugira ngo abashe kwihugura.

Umupapa uri kwishira akadodo mu menyo, ubona ko ari gukuramo imyanda irimo, akaba afite n'amenyo meza yererana.

Umwana uri kwa muganga, akaba ari mu cyumba bakuriramo amenyo, muganga arimo amwitaho, akaba agiye kumukura akoresheje utwuma twabugenewe.

Icyumba cyo kwa muganga bakuriramo amenyo, aho kirimo udukoresho tugiye dutandukanye, dufasha muganga mu gihe ari gukura amenyo kugira ngo akore akazi ke neza.

Abantu bagiye batandukanye, aho bitabiriye inama, bakaba bambaye imipira yanditseho ngo tubiteho bombi, bakaba bafite korogati ndetse n'uburoso bwo kwiboroshesha kugira ngo amenyo yabo amere neza.

Umubyeyi w'umumama hamwe n'umukobwa we, aho bari kumwe bishimye, bafatanye amaboko bombi baseka, banezerewe, ubona ko ari byiza.

Umupapa urimo akina umukino witwa dame aho bakoresha ibijenjegeri mu kuwukina ndetse n'igikarito cyangwa ikindi gikoresho gishushanyijeho uwo mukino.

Umusaza wagiye kwa muganga umuforomokazi akaba ari kumuha ibinini byo kurya, kugira ngo bimufashe bitume ubuzima bwe bukomeza kumera neza.

Abamama batatu aho bari kureba muri terefone bombi hamwe baseka cyane kandi bishimye ubona ko bibanejeje cyane.

Umupapa wagiye kwa muganga aho ari kumwe n'umuforomokazi uri kumwitaho, bombi bakaba bari kuganira kandi baseka.

Abayobozi batandukanye bo mu nzego z'ubuzima aho bicaye imbere abaturage bari mu nama bakaba bari kugeza ku baturage uburyo bakwitwara n'uburyo bagira ubuzima bwiza.

Abayobozi bagiye batandukanye bo mu nzego z'ubuzima, aho bari kwifotoza ifoto, hariho abamama, abapapa, abasaza n'abakecuru ndetse n'abandi batandukanye.

Abayobozi bagiye batandukanye baturutse mu nzego zitandukanye ubona ko bambaye neza, aho bari muri sale iteguye neza, bari mu nama ku bijyanye n'ubuzima.

Umugabo ufite icyapa agenda akereka abantu, icyo cyapa kikaba kiriho kwirinda indwara ziterwa n'inkende no kuzikingiza.

Sale yo mu bitaro aho abantu babonera amakuru akaba ari sale imeze neza kandi yubatse neza kuburyo bugezweho.

Ibitaro byubatse mu buryo bwiza, aho bifite jaride nziza, ubusitani, indabo ndetse n'ibindi biti bigize neza.

Ibyuma by'ikoranabuhanga bitandukanye kandi bigezweho, byifashishwa n'abaganga mu gihe barimo kubaga abarwayi kugirango banoze umurimo wabo.

Abaganga batandukanye aho bombi bambaye udushati tw'umweru, inkweto nziza cyane n'amapantaro meza cyane, bakaba bafite utuntu mu ntoki barimo kwinjira muri farumasi.

Abantu batandukanye baje kwa muganga kwivuza, bakaba batonze umuronko ujya kuri muganga kugira ngo abahe ubufasha, akaba ari abantu benshi ndetse b'ingeri zose.

Sale yo kwa muganga irimo imashini zigiye zitandukanye ndetse z'ubwoko bwose, zifasha abaganga mu gukora akazi kabo ndetse no kunoza umurimo neza.

Ibyuma bigiye bitandukanye nka mikorosikopi, imashini ndetse n'ibindi byifashishwa kwa muganga, basuzumwa indwara z'umurwayi kugira ngo ahabwe imiti nyayo.

Ikigo cy'ubushakashatsi ku miti n'indwara zitandukanye aho cyubatse neza ndetse ku buryo bwiza, imbere yacyo hakaba hari jaride nziza cyane n'umuhanda ndetse n'ibindi bikorwa remezo.

Ibitaro bifite sale nini cyane irimo amatara ndetse menshi, ubona ko ariho abaganga bakoranira iyo bari gukora inama.

Materinete inzu y'ababyeyi bajyanwamo iyo bagiye kubyara, akaba ari nayo abaganga bababafashirizamo mu gihe bari kubyara.

Ibitaro byubatse neza ubona ko byubatse mu mu buryo bugezweho, aho imbere harimo abaganga bambaye amataburiya umwe n'abarwayi hakaba hari n'abandi bahagaze ku muryango bagiye kwinjira.

Ibitaro byubatse mu buryo bugezweho, aho ubona ko byubatse mu buryo bwa etage, bikaba ari ibitaro byiza kandi binini, imbere yabyo hakaba haparitse imodoka nyinshi cyane.

Sale irimo ibitanda byo kwa muganga, intebe hakaba harimo n'ibindi bishushanyo bigiye bitandukanye ubona ko bijishanyije muburyo bwiza ndetse n'imashini zifashishwa na muganga avura abarwayi.

Icyumba cyo kwa muganga aho kirimo ibikoresho byose byifashishwa na muganga, imashini, amadokima agiye atandukanye, amazi ndetse n'utundi tuntu twinshi.

Ibitaro byubatse mu buryo bwa etage bikaba bifite urukuta rubikikije, hakaba hari imodoka isohoka muri ibyo bitaro kandi akaba ari imodoka y'ivatiri.

kwa muganga, aho haje abarwayi bagiye batandukanye, hakaba hari kandi n'umukecuru uri ugendera mu kagare waje kwa muganga, aho ari gufashwa na muganga.

Farumasi irimo imiti itandukanye y'ubwoko bwinshi, iyo miti ikaba itondetse ku buryo bwiza kandi bunogeye ikaba ari imiti y'ubwoko bwinshi.

Abaganga bakora muri raboratwari harimo abamama n'abapapa ,aho bari kwifotoza imbere ya raboratwari ,bombi bishimye kandi banezerewe cyane.

Umuganga, umupapa aho ariha inama abitabiriye inama harimo abaturage bagiye batandukanye kuburyo bakwirinda indwara zigiye zitandukanye.

Ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa muri siporo, harimo nk'ibyo bizirika ku kaboko kugira ngo bifashe gukora siporo kandi bimurinde kuvunika.

Imiti itandukanye ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa muri siporo ariho ibisigwa, ibifuha, imiti bamira, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bifasha umuntu uri muri siporo.

Umwana bajyanye kwa muganga, muganga akaba ari kumupima akoresheje icyuma cyabugenewe kugira arebe ko ataba arwaye indwara.

Umupapa bisa nkaho yari ari muri siporo, akaba yicaye yambaye imyenda ya siporo, arimo yikanda ukuguru, bisa nkaho yakomeretse.

Umuntu uri gukora siporo, aho arimo agenda yinanura, akaba yambaye agasengeri ndetse n'indi myenda ya siporo, akaba yicaye hasi mu gacaca agenda ananura ingingo z'umubiri we.

Umumama uri gukora siporo yambaye ipantaro ndetse n'agasengeri ka siporo, akaba arimo ananura amaguru ye ndetse n'amaboko kugira ngo umubiri we umere neza.

Umu papa uri gukora siporo ngororamubiri agenda akora pompaje, hamwe n'izindi siporo zimufasha kugira ngo umubiri we ugororoke neza cyane.

Umuntu ufite imashini, akaba yicaye ari kureba muri iyo mashini, ubona ko hari ibintu bigiye bitandukanye ari kurebamo.

Umuntu ufite amazi, amazi akaba ari mu gacupa, kugira ngo agende ayanywa, bityo atume umubiri we ukora neza.

Umuntu wagiye kwa muganga, bisa nk'aho yari yakomeretse, bakaba bamupfutse ibiganza byose ndetse muganga akiri no kumwitaho.

Umumama uri gukora siporo ngororamubiri, yambaye kuteri mu matwi, akaba arimo azunguza amaboko kugira ngo umubiri we ubashe kugororoka.

Umupapa urimo gukora siporo, yambaye isengeri ya siporo akaba arimo agenda ananura amaboko ye ayashyira mu mugongo kugira ngo amererwe neza kandi umubiri we umere neza.

Umuntu uri gusuka amazi ayakura mu icupa ayashyira mu karahure, kugira ngo aze kuyanywa bityo atume agira ubuzima bwiza.

Umuti witwa Reishi, uvura amibe kandi ugahangana nayo paka ikize, ukaba uri mu gacupa k'umweru kandi ufunze neza.

Amavuta aturuka mu buki, akaba yifashishwa kwa muganga avura indwara zitandukanye, binyuze mu kuyasiga mu ruhu bityo uruhu rukamera neza.

Imiti gakondo itandukanye harimo; imbuto hakabamo ibinyampeke, ibinyamafuvu ndetse n'indi yagiye isekurwa, ndetse indi igatunganywa bityo ikaba yakifashishwa ivura indwara zitandukanye.

Muganga w'imiti gakondo, aho arimo agenda yegeranya imiti ye kandi ayitunganya, imwe ikaba iri mu ducupa dufunze neza, indi ikaba iri mu dukarito.

Ibyatsi bitandukanye byifashishwa gukora imiti'ubwoko bwose binyuze mukamura ndetse n'izindi nzira bityo bikaba byavura indwara zigiye zitandukanye.

Umuti witwa alovera uturuka mu gikakarubamba aho gifatwa kigakamurwa hakoreshejwe imashini zabugenewe bityo bikabavura indwara zitandukanye.

Umuti witwa bihoni ukorwa mu buki, bityo ukifashishwa uvura indwara zitandukanye harimo izo mu nda uburozi ndetse n'izindi zitandukanye.

Umuti witwa sikini oyiri ukaba uvura indwara z'uruhu, nk'uduheri, ibisebe, ndetse n'ibindi, kugira ngo uruhu rw'umurwayi rumererwe neza.

Umuravumba igiti cya kinyarwanda, kivura indwara zitandukanye nk'inkorora, indwara zo mu nda nk'inzoka, indwara z'uruhu ndetse n'izindi zitandukanye.

Umuturage w'umupapa, aho arimo atunganya imiti gakondo agenda ayishyira mu tuntu dutandukanye nk'udukombe udufuka ndetse n'indi kugira ngo izifashishwe.

Ibyatsi bitandukanye bifatwa bigasekurwa, hakaba havamo imiti ishobora kuvura umurwayi indwara nyinshi.

Imiti itandukanye iva mu byatsi bigiye bitandukanye harimo ivamo migikakarubamba ndetse n'ibindi, bityo ikabayitunganywa igashyirwa uducupa twabugenewe ikaba yavura indwara zitandukanye.

Imbuto zigiye zitandukanye, aho zishoborwa gufatwa bakazisya cyangwa bakazikamura, zikaba zavamo umutobe ushobora kunyobwa kandi uryoshye cyane.